Abantu bicaye ahantu hamwe kandi bari mu ngeri zitandukanye, imbere yabo kandi hari abagabo bane b'abayobozi, aho bari kubaha ikiganiro, bafite insanganyamatsiko ivuga ngo, urubyiruko menya amateka yawe.

Abantu bicaye hamwe harimo abagore n'abagabo, imbere yabo hateretse ibyo kunywa nk'amazi cyangwa ji, bose bari kureba mu cyerekezo kimwe aho bari kumva ikiganiro bari guhabwa, ibi byafatwa nk'inama cyangwa izindi gahunda zihuza abantu, harimo kandi umugabo urimo gufata videwo.

Abantu baricaye barimo kwitegereza ibyo abana babiri bari imbere bari gukora, ni nko kugaragaza impano yabo kandi bari mu gikorwa cyo urubyiruko kugira ngo barushishikarize kumenya amateka yabo, aho bari kwerekana impano zitandukanye.

Abantu bari ahantu hamwe kandi ni benshi, ntabwo bari mu nzu bari hanze, harimo abadamu n'abagabo, umugabo umwe afite indangururamajwi arimo gutanga ikiganiro cyangwa igitekerezo, bikunze kuba ari nk'ahantu habaye inama cyangwa ikindi gikorwa, gihuza abantu.

Umuntu uhagaze usa nk'uhagaze imbere y'abantu. Inyuma ye ni abantu bicaye kuhande rwe hari uwicaye kandi intebe zirasa umutuku. Ameze nk'umuntu urimo kubwira abantu ariko ikiganiro cyangwa akaba ayoboye nk'inama.

Umugabo uhagaze imbere y'abantu, bafite indangururamajwi, aho arimo kuganiriza abantu. Ni ikigo k'igihugu gishinzwe iterambere RDB. Aho barimo gushishikariza abantu, gucora imari mu gihugu cy'u Rwanda.

Abantu bateraniye hamwe harimo abakobwa nk'abagabo kandi nyuma yabo hakaba hari n'abandi bari gufata videwo, ni abantu bari kureba mu cyerekezo kimwe aho bateze amatwi ikiganiro, ibingibi bikorwa habaye nk'inama cyangwa izindi gahunda zihuza abantu benshi.

umubyeyi wa kenyeye hari imbere afite indangururamajwi hari gutanga ikiganiro. Afite inyuma yabo icyapa cy'insanganyamatsiko cyanditseho bikore mu isibo ibikorwa bitandukanye bifasha umuturage kubaho neza, Arimo gutanga mituweli, kwizigamira muri ejo heza, guhiga no guhigura kugira.

Abantu barimo ingeri zitandukanye barimo abagore n'abagabo baricaye, imbere yabo hari umugabo uhagaze ufite indangururamajwi arimo kubaganiriza, kandi hari icyapa cyanditseho Nyagatare imvesitimenti foramu, bari mu bukangurambaga bwo kwagura ibikorwa by'ubucuruzi cyangwa gushora imari mu Karere ka Nyagatare.

Abantu benshi baricaye ahantu hamwe, umuhungu umwe arahagaze, afite indangururamajwi ndetse n'igitabo arimo gusoma, ameze nk'urimo gusomera abantu ingingo runaka ikiganiro barimo.

Abantu benshi harimo abagore n'abagabo ndetse n'abana, baricaye kandi bafite icyapa cyanditseho "gerayamahoro", bivuze ko bari mu bukangurambaga bwo gushishikariza abantu kugerayo amahoro, hirindwa gutwara ibinyabiziga basinze cyangwa gutwara ikinyabiziga bihuta. Ni bimwe mu ngamba zifatwa kugira ngo hirindwe impanuka za hato na hato.

Abantu bari gucuranga inanga gakondo za kera ziranga umuco nyarwanda, ni inanga bakoreshaga bacuranga igihe hari hataraza iterambere ry'ibyuma bisanzwe, akenshi zakoreshwaga n'abahanzi ba kera bari gucuranga imbyino gakondo cyangwa indirimbo zigaragaza umuco nyarwanda.

Abagabo ba biri bambaye imikenyero umwe afite inanga igaragaza umuco Nyarwanda. NI inanga ugereranyije n'inangazo z'iki gihe mu buryo bugezweho yafatwa nka gitari ariko iyigi yacurangaga icurangwa mu bitaramo by'inkera igaragaza imicurangire y'umuco Nyarwanda.

Abakobwa bamwe bari gukoma amashyi undi afite indangururamajwi abandi bari kuvuza ingoma, barimo kubyina imbyino y'umuco nyarwanda bivuze ko bano ari itorero. Ni kuvuga ngo bamwe bari kubyina, abandi bakaririmba, abandi bakavuza ingoma, bambaye n'imyenda igaragaza umuco nyarwanda nk'imikenyero ndetse n'urugori.

Abahungu n'abakobwa barimo kubyina, barimo kubyina imbyino nyarwanda, aho bambaye n'imyenda igaragaza umuco nyarwanda, harimo imikenyero, urunigi ku bagabo ndetse abakobwa na bo bakaba bambaye urugori, abahungu kandi bambaye amayugi barimo kubyina imbere y'abantu bicaye, bikunda gukorwa nk'ahantu habaye ubukwe cyangwa ikindi kirori gihuza abantu mu bijyanye n'imiyoborere.

Inka z'Inyambo ziri ahantu hamwe mu Kinyarwanda kiza inka ziri ahantu hamwe zitwa ishyo. Izi nka z'Inyambo ni inka zigaragaza umuco nyarwanda aho zikurura ba mukerarugendo, imbere yazo kandi hari umushumba wazo uzitaho buri munsi.

Abana b'abahungu barimo kubyina imbyino y'umuco nyarwanda, bari imbere y'abayobozi harimo n'abashinzwe umutekano, aho bampaye bambaye imyenda, igaragaza umuco nyarwanda.

Agaseke kimwe mu bikoresho bigaragaza umuco nyarwanda, akenshi gakorwa n'Abanyarwanda aho bakaboha, nanone gakoreshwa nk'ahantu mu bukwe cyangwa ukajyanamo intwererane ivuye mu musaruro w'ubuhinzi ku bantu bakoze ubukwe.

Abakobwa bamwe bari gukoma amashyi banaririmba ndetse undi umwe afite indangururamajwi arimo kuvugiramo, abandi barimo kuvuza ingoma bivuze ko ari itorero ririmo kuririmba no kubyina imbyino nyarwanda, bambaye imikenyero na yo ibigaragaza harimo ndetse n'urugori bambaye ku mutwe.

Abahungu n'abakobwa barimo kubyina, barimo kubyina imbyino nyarwanda, aho bambaye n'imyenda igaragaza umuco nyarwanda, harimo imikenyero, urugori ndetse n'ibindi, imbyino zimeze gutya zikunda gukoreshwa ahantu mu bukwe ndetse n'ahandi hantu habaye ibirori by'Igihugu.

Inka y'inyambo. Iyi ni inka ikunda kugaragazwa mu muco nyarwanda, akenshi ikurura ba mukerarugendo. Izi nka zimeze gutya, zikunda no kumva amabwiriza y'abantu, aho bazijyana kwigaragaza zikitwara neza kandi izi nka zikunze kuboneka iwacu mu Karere ka Nyagatare.

Umugabo urimo gucuranga inanga, iyi ni inanga igaragaza umuco nyarwanda kandi ikaba yarakoreshwaga kera, abahanzi ba kera ni imwe mu nanga bajyaga bakoresha barimo gucuranga.

Umukobwa arimo kubyina imbyino y'umuco nyarwanda izi mbyino zimeze gutya zikunda gukoreshwa mu gihe igihugu cyacu kirimo kugaragaza umuco nyarwanda cyangwa se habaye ubukwe nyarwanda. Yambaye imyenda irimo imikenyero ndetse n'urugori.

Abahungu n'abakobwa barimo kubyina imbyino y'umuco nyarwanda. Ku ruhande yabo hari uwundi urimo kuvuza ingoma nka kimwe mu bikoresho bikoreshwa mu mbyino nyarwanda kandi bigaragaza umuco nyarwanda. Inyuma yabo hari umuntu urimo gucuranga ibyuma bisanzwe, bimwe by'abazungu.

Igikoresho cyitwa umuvure. Umuvure ni kimwe mu biranga umuco Nyarwanda kandi ukaba uva mu biti biba byarakuze cyane ari binini. Umuvure ukorerwamo ibintu bitandukanye harimo nko kwenga ibitoki cyangwa guhorezamo igikoma cyashigishwe nk'ikigage cyangwa ubushera.

Abadamu bambaye imikenyero y'icyatsi, barimo kubyina mu mbyino y'umuco nyarwanda, harimo kandi n'umugabo urimo kubafasha ndetse n'abandi bari gukoma amashyi, byakitwa nk'itorero, ibirori bimeze gutya n'imbyino zimeze gutyo, bikunda kuba ahantu habaye ubukwe nyarwanda cyangwa se habaye ikindi kirori cy'Igihugu cyangwa kiri mu nzego z'ubuyobozi.

Ikusanyirizo ry'umuriro w'amashanyarazi, aho haba hari imbaraga nyinshi z'amashanyarazi, kandi umuriro mwinshi ukaba ari ho uturuka ujya mu ngo z'abaturage. Ni igikorwa cyubatswe cyane cyane bikunda gukorwa n'ikigo gishinzwemuriro REG, aho abakozi bubaka ikusanyizo ry'amashanyarazi kugira ngo umuriro ubashe kugera ku baturage.

Abantu babiri bari mu kirere, bari ku ipoto ry'umuriro w'amashanyarazi, barimo kurikora, bivuze ko hari insinga zimwe na zimwe zitatwaraga umuriro, bakaba bari kuzishyira ku murongo kugira ngo umuriro ukomeze kugenda, ukwirakwire mu bice bitandukanye.

Umukobwa ufite ibikoresho bikoreshwa aho bogoshera cyangwa abatunganya imisatsi hitwa muri salon. Cyane cyane bikunda gukoreshwa n'abakobwa bagiye kwisukisha kugirango ngo boroshye umusatsi cyangwa batunganye umusatsi umere neza.

Akamashini gakunda kujya ku mazu kugira ngo umuntu waguze umuriro cyangwa ukoresha uwo muriro, ajye aguriraho umuriro, iyo washize kano kuma ni ko kabigaragaza cyangwa wagiye, aka kazu kitwa kash power mu ndimi z'amahanga.

Ipironi ry'umuriro w'amashanyarazi, aho rikoreshwa mu gutwara umuriro w'amashanyarazi, uwujyana mu baturage batandukanye, aha ngaha ni ahantu hari imbaraga nyinshi zohereza umuriro mu baturage cyangwa mu bindi bikorwa byose bikenera umuriro.

Ikusanyirizo ry'umuriro w'amashanyarazi. Aho ryubatswe kugira ngo ribashe gufasha mu kohereza umuriro mu bice bitandukanye by'ahantu hegereye. Akenshi iki gikorwa gikunze kubakwa n'ikigo gishinzwe umuriro mu Rwanda REG.

Ipironi rinyuraho insinga z'amashanyarazi. Iri rifasha gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye, aho ifasha gutwara umuriro uva mu gace kamwe ujya mu kandi. Ibi ni bimwe mu bituma abaturage bagerwaho n'umuriro w'amashanyarazi.

Inyubako y'ikusanyirizo ry'umuriro w'amashanyarazi. Aho abantu bubaka igikorwa remezo k'ikusanyirizo ry'umuriro kugira ngo ubashe gukwirakwizwa mu bice bihegereye, mu baturage ndetse no mu bindi bikorwa bitandukanye, bikenera umuriro.

Ipoto ritwara umuriro w'amashanyarazi, aho insinga ziza zigakoraho, zigakomeza zikagenda kugira ngo zibashe kugendera mu kirere, aho lipotol ifasha zino nsinga gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye.

Umudamu uri ku mashini y'ubudozi arimo kudoda. Imbere ye hari umukasi ndetse n'urudodo rw'umutuku. Uyu ni umushinga ukunda gukorwa cyane cyane n'abadamu n'abandi bagabo bose muri rusange, aho baba badoda imyenda. Hari abakora nko kudoda ibiraka by'imyenda yacitse, cyangwa abandi bagateranya ibitambaro bikavamo imyenda mizima.

Inzu zubatse neza kandi zisa akenshi ibi bikorwa n'ubuyobozi mu kubaka umudugudu w'icyitegererezo aho wubaka amazu ameze kimwe kandi amazu ari ku mu rongo.

Ikigo nderabuzima, bivuze ko hari aho abantu bagenda barwaye, bakajya guhura na muganga kugira ngo abashe kubaha ubuvuzi, hari abarwayi batandukanye, harimo ababyeyi, abana ndetse n'umugabo urimo gukaraba kuri kandagirukarabe.

Abantu batandukanye harimo abagabo n'abagore. Bari ku mupaka uhuza u Rwanda n'Ubugande, aho barimo kwinjira mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo ni ahantu haba hari icyapa gitandukanya igihugu kimwe n'ikindi.

Ikiraro cy'abanyamaguru. Ni igikorwa remezo gikunda kubakwa n'ubuyobozi, aho gifasha abantu kwambukiranya ahantu hamwe, bajya ahandi mu buryo bworoshye, ni ikiraro kandi kinyuramo abantu gusa nta binyabiziga binyuramo.

Ikiraro ni igikorwa gikomeye cyubakwa na Leta y'Igihugu akenshi kandi kikaba cyubakwa kugira ngo gihuze agace kamwe n'akandi, impamvu ituma habaho ikiraro ni uko munsi haba harimo gucamo amazi cyangwa haratengutse, iki kiraro rero munsi hari gucamo amazi ari byo byatumye bubaka umuhanda hejuru y'amazi.

inyubako y'ubucuruzi ikunze kwitwa isuku, akenshi iyi nyubako yubakwa n'ubuyobozi, aho bubaka igikorwa remezo nk'iki kugira ngo abacuruzi n'abaguzi bajye bahurira babashe guhahirana, akenshi abacuruzi barimo hano barasura kugira ngo ibikorwa nk'ibi bijye bikomeza bikwirakwira mu gihugu hose.

Inzu ebyiri zitandukanye n'akandi gatoya gasakaye kariho aho abantu bagomba gukarabira. Ni inzu imeze nk'ivuriro, aho ivuriro akenshi ryubakwa n'ubuyobozi bw'Igihugu, aho abaganga baba bari noneho bakakira abarwayi kugira ngo babafashe kubavura bakire.

Abantu barimo kubaka ikiraro cy'umuhanda. Iki ni gikorwa remezo gikunda kubakwa na Leta cyangwa ubuyobozi bw'igihugu, harimo abantu barimo kubaka aho bari kugitegera kugira ngo bazakimenere kibashe gukomera.

Icyapa kigaragaza umupaka uhuza u Rwanda na Congo, icyapa kigaragaza ko ugiye kwinjira muri Congo kiri mu mabara y'icyatsi, amagambo akaba yandikishije umweru, noneho icyapa kigaragaza ko uvuye mu Rwanda ugiye muri Congo n'icyumweru, amagambo yandikishije umukara.

Ivuriro ni inzu zitandukanye ariko zikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi, aho iruhande rwaho haparitse imodoka yitwa imbangukiragutabaraba, iba yiteguye kujya kureba umurwayi urembye cyane cyangwa ikamukura hano imujyana ku bindi bitaro byisumbuyeho kugira ngo abashe kuvurwa neza.

Isoko ryubatse neza, ni igikorwa remezo gikunda kubakwa n'ubuyobozi, aho abacuruzi bajyayo bagafata ibibanza bagacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, noneho n'abakiriya bakabasangayo bakajya kubihaha Aha abacuruzi bishyura imisoro kugira ngo ibikorwa nk'ibi bikomeze bikwirakwira mu bice byinshi by'igihugu bikoreshejwe mu imisoro.

Icyapa kiriho amagambo atandukanye, akarere ka Nyagatare, umurenge wa Nyagatare akagari ka Nsheke, umudugudu wa Nyegezi, hariho kandi amagambo agaragaza kirazira ndetse n'indangagaciro ziranga abaturage bo mu mudugudu wa Nyengezi.

Inzu y'ivuriro, ni ivuriro riba riri ahantu hegereye abaturage aho bagomba kujya kureba abaganga kugira ngo babashe guhabwa ubuvuzi bw'ibanze, akenshi iyo ari ivuriro rya Leta riba ryarubatswe na Leta kandi n'abaganga bakaba bakorera Leta.

Igikorwa remezo cyitwa ikiraro, ni icyaro gihuza umuhanda umwe n'undi cyangwa agace kamwe n'akandi, ibi bikunze kubakwa mu gihe hari nk'ubutaka bwatengutse cyangwa hasi hakaba hanyuramo umugezi kandi iki gikorwa gikunda kubakwa n'ubuyobozi bw'gihugu.

Inyubako ya leta iriho ibyapa byinshi bitandukanye, icyapa kinini kiriho cyanditseho Akarere ka Nyagatare, irembo ry'amahoro, ni akarere karimo ibintu bitandukanye, ari hamwe mu hantu hazwi ubworozi bw'inka cyane ndetse n'ibindi bitandukanye.

Inzu isakaje amabati y'umutuku ndetse ikaba yubatse n'amatafari ahiye, akenshi iyigiyi iba ari inzu ya leta, aho ibikorerwamo ibikorwa bitandukanye.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru mu ndimi z'amahanga cyitwa sitade, hari ahantu hasa icyatsi hariho abakinnyi b'umupira w'amaguru bakinira, ku ruhande rwaho kandi hazengurutswe n'ahafite amabara y'umutuku ariho abakora irushanwa ryo kwirukanka baba bari, hano hasakaye ho ni ho abafana bicara kugira ngo barebe iyo mikino.

Abantu benshi bicaye mu kibuga bareberamo umupira w'amaguru. Harimo abakenyeye ndetse n'abatakenyeye. Bivuze ko hari ikirori kindi cyahabereye nk'umunsi mukuru cyangwa ibindi birori.

Abantu bicaye ahantu hamwe. Kandi harimo n'inzego z'umutekano nka Dasso ndetse n'abayobozi batandukanye. Bamwe barahuze barimo kwandika, abandi imbere yabo hari amazi. Bivuze ko bitabiriye inama cyangwa ibindi biganiro.

Abantu batandukanye harimo abagore n'abagabo. Bafite indabo bari mu kwibuka aho bazanye indabyo mu gikorwa cyo kwibuka. Ibi bikunze gukorwa mu gihe mu Rwanda turi kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi muri mirongo kenda na kane cyangwa bigakorwa umuntu arimo kwibuka umuvandimwe wavuyemo ubuzima.

Abantu batandukanye, bamwe barahagaze, abandi baricaye. Umudamu afite indangurumajwi, arimo gutanga igitekerezo cyangwa ikibazo. bari ahantu mu nteko rusange habereye nk'inama cyangwa izindi gahunda zihuza abantu.

Umusirikare ahagaze imbere y'abantu, afite indangururamajwi arimo kubavugisha, aho inyuma yabo bari mu nteko rusange y'urubyiruko, barimo gushishikariza urubyiruko kugira uruhare mu kugena ejo hazaza.

Abantu bahagaze hamwe harimo abadamu n'abagabo, imbere yabo hari umugabo ubahagaze imbere urimo kubaganiriza kandi inyuma yabo hari amashuri, bameze nk'abari mu kigo cy'amashuri aho umuntu ubahagaze imbere arimo kubaha ibiganiro cyangwa akaba ari inama barimo gukora.

Abantu bicaye ahantu hamwe ku gasozi, abaturage bicaye hasi abandi bameze nk'abayobozi bicaye ku ntebe, harimo abashinzwe umutekano polisi, abasirikare, daso ndetse n'abayobozi, imbere yabo hahagaze umugabo urimo kubaha ikiganiro, ni ahantutu hameze nk'ahabereye inama.

Ahantu hari abantu benshi kandi hari amatente yubatswe basa nk'abitabiriye gahunda zitandukanye, aho imbere yabo hari umuntu urimo kubaha ikiganiro ni nk'ikirore kiba cyahabaye cyangwa umunsi mukuru.

Umugabo urimo gutanga ikiganiro. Ni umupolisi nka zimwe mu nzego zishinzwe umutekano afite indangururamajwi arimo kuganiriza abantu. Ni ahantu hanze ahantu hari abantu batandukanye ndetse abakuru n'abana.

Abantu bicaye imbere harimo abirabura ndetse n'abazungu, harimo n'umudamu wakenye, imbere yabo kandi hari amazi, bivuze ko bicaye imbere y'abantu aho bagiye kubaha ibiganiro bitandukanye.

Abantu bane bicaye hamwe harimo umudamu umwe ndetse n'abagabo batatu, harimo uwambaye impuzankano y'Ikigo gishinzwe iperereza RIB.

Icyapa kiri mu magambo y'umweru, aho kigaragaza APR Amizero bivuze ko hari muri metero mirongo itatu. Ni icyapa kiyobora abantu kiba kiri ku muhanda kirimo kugaragaza icyerekezo n'intera irimo kuva hano ujya kuri iki kigo cy'Amizero.

Icyapa cyanditseho amagambo atandukanye, kiri mu Kagari Ka Barija, Umudugudu wa Kinihira, handitseho indangagaciro na kirazira, biranga abaturage bo ku mudugudu wa Kinihira.

Amarembo manini kandi ariho icyapa cyanditseho Gare ya Nyagatare, bivuze ko haba haparitsemo imodoka zitwara abagenzi zibavana ahantu hamwe zibajyana ahandi ni cyo Gare bishatse kuvuga. Akenshi umuntu ufite urugendo rurerure ugiye nko kujya i Kigali cyangwa mu bindi bice bigize igihugu azamo hano agakatisha itike imugezayo maze imodoka zikamutwara.

Imodoka ebyiri ziririmo ubwoko bumwe bwa Toyota. Zanditseho amagambo ko zigisha gutwara bivuze ko ba nyirazo bigisha abantu gutwara imodoka. Kenshi zikoreshwa n'abashaka kubona uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga nk'imodoka.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda wa kaburimbo, ni icyapa kiriho utumenyetso dutatu dukoze uruziga, biba byerekana ko imbere gato muri kaburimbo ikinyabiziga kigiye kugera haba hazenguruka cyangwa kugira ngo ugere ahantu ugera ubanza kuzenguruka, mu ndimi z'amahanga hitwa zebra crossing.

Imodoka rusange itwara abagenzi, iparitse muri gare ahakunda kuba hari imodoka nyinshi zitwara abagenzi, aho umuntu ayishyura amafaranga noneho imodoka ikamugeza ahagomba kujya cyangwa aho ashaka kujya, imodokadoka iri mu irangi ry'umweru kandi yitwa kwasiteri.

Icyapa kiri kuri kaburimbo cyanditseho amagambo agaragaza aho ikicaro cya polisi kiri. Hariho imibare magana atanu, igaragaza ko kuva hano ujya aho ikicaro cya polisi kiri, harimo metero magana atanu z'urugendo gusa.

Abantu bashinzwe umutekano ndetse n'abandi bantu bicaye hamwe. Harimo umupolisi ndetse n'abasirikare n'abandi bantu basanzwe. Umudamu habarembe harimo kubasobanurira aho bari kubasomera ibintu no kubasobanurira. hari undi muntu uhagaze ku ruhande urimo gufata videwo.

Abantu batandukanye harimo abagabo n'abagore ndetse n'ushinzwe umutekano polisi aho barimo kuganira, bari ahantu mu nyubako cyangwa inyubako yubakiwe umupira w'amaguru aho abafana barebera umupira, bisa nkaho hari igikorwa kindi cy'umunsi mukuru cyahabereye.

Abantu bari ahantu hamwe harimo abicaye ndetse n'abahaga. Bameze nk'abantu bitabiriye ikirori cyangwa undi munsi mukuru, mbere yabo hari umudamu ubyibushye urimo kubaganiriza. Ni ahantu habaye ikirori aho abantu bahurira hamwe bateguye n'aho bicara kugira imvura itabanyagira kandi nta hantu mu gasozi ntago hari mu inzu.

Abantu bo mu ngeri nyinshi bahuriye hamwe bari mu gikorwa rusange akenshi kitwa umuganda. Bafite ibikoresho harimo amasuka, aho bari gukora umuganda. Iki ni igikorwa gikunda kuza mu mpera z'ukwezi aho abaturage bakora igikorwa rusange cyo kugira ngo bakore igikorwaremezo nk'umuhanda cyangwa ibindi bikorwa bitandukanye bihuza abantu ku nyungu rusange.

Abantu batandukanye harimo abadamu n'abagabo bari mu gikorwa kimwe cyo kubakira umuntu, aho ibi ngibi bikunda gukorwa ku muntu utishoboye cyangwa se akaba ari nk'igikorwa cy'umuganda bateguye kugira ngo babashe kubakira umuntu utari ufite ahantu aba.

Abantu batandukanye, harimo abakorerabushake, abashinzwe umutekano, umusirikare ndetse na dasso, ndetse n'abandi bantu basanzwe, bari mu gikorwa rusange gikunze kwitwa umuganda, gikorwa mu mpera za buri kwezi bafite kupakupa, aho barimo kugabanya ibyatsi byameze.

Abantu benshi harimo abagabo n'abagore. Bamwe baricaye abandi barahagaze. Harimo umugabo uhagaze ndetse ufite n'irangururamajwi, arimo gutanga igitekerezo cyangwa ikibazo mu baturage. Ni ahantu hameze nk'ahabaye inama cyangwa ibindi biganiro.

Mu nzu ntoya bicaye hamwe bari kureba mu cyerekezo kimwe aho bari kumva ibiganiro bari guhabwa n'umunyamakuru kandi uri gufata videwo ntibyafatwa nk'inama cyangwa izindi gahunda zahuza abantu.

Abantu benshi bahuriye hamwe bari mu gikorwa rusange. Bamwe bafite imihoro, abandi amasuka, barimo gukora igikorwa kimwe. Akenshi iki gikorwa cyitwa umukanda, ukunda gukorwa mu matariki y'impera za buri kwezi.

Abaturage bicaye ahantu hari ibyatsi bimeze neza ndetse imbere yabo hakaba hari abayobozi harimo n'abashinzwe umutekano nka polisi, imbere yabo kandi hari umudamu muremure uhagaze urimo kubaha ikiganiro, ni ahantu habaye nk'inama cyangwa izindi gahunda zihuza abantu.

Abagabo babiri bicaye undi ahagaze yambaye ingofero afite n'indangururamajwi, bivuze ko ahagaze imbere y'abantu arimo kubaha ikiganiro, ibi bikorwa nk'ahantu habaye inama cyangwa ikindi gikorwa gihuza abaturage.

Abantu batandukanye, harimo n'abashinzwe umutekano, bari mu gikorwa rusange cy'umuganda. Ni abantu bahuriye hamwe, kandi iki gikorwa gikunda gukorwa rimwe mu mpera z'ukwezi, hano mu Rwanda.

Abantu bari mu ngeri zitandukanye bari mu gikorwa cy'umuganda, aho bamwe bafite amasuka abandi bafite imihoro, aho bari gukora igikorwa rusange cyitwa umuganda gikunda kuba mu mpera z'ukwezi.

Abagabo bane baricaye harimo abashinzwe umutekano, harimo umupolisi umwe, umusirikare umwe ndetse n'abandi bagabo babiri bameze nk'abayobozi. Imbere yabo hari indangururamajwi, bivuze ko bari imbere y'abantu barimo kubaha ikiganiro.

Umukinnyi w'umupira w'amaguru wambaye impuzankano ikabutura y'ubururu, n'umupira urimo amabara y'icyatsi. Ari mukibuga ikibuga kirimo ibyatsi afite baro. Inyuma ye hari inyubako zihari zituyemo abantu.

Abana batatu bari gukina umupira w'amaguru, umwe yambaye inkweto zifunze undi zifunguye, undi yambaye ibirenge bari mu kibuga cy'itakaka nta byatsi birimo kandi niho mu kibuga honyine.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru barimo kwishyushya kugira ngo bajye gukina, barimo kwishyushya mu buryo bwo kwirukanka bakora mucaka, bambaye amajezi y'ubururu n'icyatsi kandi imbere yabo nta bafana bahari, bari mu kibuga, hamwe igipande kimwe harimo ubwatsi ikindi ntaburirimo.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru barimo gukina umupira. Bari mu kibuga kirimo ubwatsi ahandi nta bwatsi burimo. Ikipe imwe yambaye ubururu bwerurutse n'umweru, indi ikaba yambaye ubururu bwijimye, imipira irimo amabara y'icyatsi.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru. Mu ndimi z'amahanga cyitwa sitade. Harimo umuntu uhagazemo hagati, arimo gutanga imbwirwaruhame afite indangururamajwi.

Ikibuga abantu bareberamo umupira w'amaguru hicayemo abafana benshi, aho barimo kureba umupira w'amaguru akenshi mu ndimi z'amahanga. Iki kibuga cyitwa stade aho haba hicaye abantu benshi baje kureba umupira w'amaguru cyangwa ikindi gikorwa ngororamubiri cyahabereye.

Abana batatu barimo gukina umupira w'amaguru umwe yambaye inkweto zifunze abandi bambaye ibirenge, bari gukinira mu kibuga kitarimo ubwatsi, ni ivumbi gusa cyangwa itaka, ni ahantu heza kandi n'abana bakiri bato.

Abantu bicaye mu kibuga bareberamo imikino ya siporo, gishobora kuba ari ikibuga bareberamo umukino w'amaguru cyangwa umukino w'amaboko bari kureba mu cyerekezo kimwe kandi bose baricaye, aho barimo kureba uwo mukino.

Abantu batatu, bafite icyapa nk'igihembo cy'igikombe cy'umurenge Kagame, ni mu Karere ka Nyagatare, umugabo uri hagati afite igikombe agiye gutanga, noneho umukinnyi ugiye kugihabwa afite umupira mu ntoki.

Abantu babiri bari mu kibuga cy'umupira ni ikibuga cyiza cy'ubwatsi, harimo umudamu ndetse n'umugabo, umugabo yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara undi yambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umukara urimo andi mabara, bari mu kibuga bonyine kandi umupira wo gukina uri imbere y'umugabo.

abakinnyi b'umupira w'amaguru bari mu kibuga. Ni ikibuga kimeze neza kandi kirimo ubwatsi bucunze neza akenshi hari ubwo aba ari tapi. Harimo umukinnyi umwe wambaye imyenda y'ubururu bwerurutse ndetse nimero zandikishije umweru kandi na none indi kipe imwe ifite abakinnyi bambaye umuhondo nyuma yaho kandi hari abafana baje kubareba ariko bakeya.

Abantu barimo gukina umupira w'amaguru. Ikipe imwe yambaye ubururu, nimero zikaba zandikishije amabara y'umweru. Indi kipe kandi yambaye umuhondo n'icyatsi. Bari mu kibuga cyiza kirimo ubwatsi bukase neza, iyo atari ubwatsi buba ari tapi.

Umukinnyi w'umupira w'amaguru ari mu kibuga kirimo ubwatsi, nta bandi bakinnyi barimo kugaragara, ari imbere y'umupira ndetse yambaye imyenda ikabutura z'ubururu, umupira w'ubururu urimo n'amabara y'icyatsi, inyuma ye hari inyubako.

Abantu barimo gukina umupira w'amaguru bari mu kibuga kirimo ubwatsi ndetse n'ahandi hato, ni mu gitaka. Ikipe imwe yambaye ubururu bwerurutse ninyuguti zandikshije umweru . Indi yambaye imyenda y'ubururu bwijimye n'amabara y'icyatsi, inyuma yaho gato y'ikibuga hari abandi barimo kureba uko bari gukina.

Abantu barimo gukina umupira wamaguru, bari mu kibuga hamwe nta bwatsi burimo, ahandi burimo, impande yaho kandi haparitse moto ebyiri n'abantu babiri bahari kandi ni ikipe iri gukina, yambaye amakabutura y'ubururu n'imipira y'ubururu n'icyatsi, nimero zandikishije amabara y'umweru.

Inka ziri kurisha ahantu mu gisambu. Ni inka ebyiri, akenshi aha ngaha aba ari nko mu rwuri. Impande yaho hari inzira abantu bacamo nk'umuhanda bagenda. Inka zo ni ebyiri.

Umuntu arimo kugenda mu nzira ntoya iringaniye. Afite indobo ameze nk'umuzunguzayi ugenda acuruza ibyo kurya harimo amagi cyangwa ibiraha. Ni umuhanda udakoze neza, aho unyura, ushobora kunyuramo abanyamaguru, moto cyangwa amagare.

Umuhanda wa kaburimbo ndetse ku ruhande gato harimo inzira y'abanyamaguru, aho mu nzi y'abanyamaguru harimo kugendamo abantu batandukanye, harimo kandi umwe urimo kugendamo ufite indobo irimo ibiribwa. Bivuze ko agenda acuruza ibyo kurya, muri kaburimbo kandi harimo n'imodoka.

Umuhanda w'igitaka kandi urimo imikuku myinshi akenshi iba yaratewe n'isuri y'amazi anyuramo imvura yaguye akajyana itaka. Imihanda ikunze kuboneka ahantu mu byaro cyangwa hatari ibikorwa remezo byinshi harimo umugabo urimo kugenda muri uwo muhanda.

Inzira y'abanyamaguru. Ni inzira ntoya kandi yegeranye, iba inyuramo abanyamaguru, yakabya ikanyuramo n'amagare cyangwa moto. Nta kinyabiziga kinini nk'imodoka cyacamo. Inzira zimeze gutya zikunda kuboneka ahantu mu byaro.

Ku muhanda wa kaburimbo nta kinyabiziga na kimwe kirimo kandi uyu muhanda ufite igice kimwe abanyamagare bagenderamo ndetse n'ikindi gice kigenderamo abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo. Imodoka nini y'ikamyo itwara imizigo iparitse ku ruhande. Imodoka y'umweru kandi ifite icyo bapakiriramo kinini cy'ubururu. Abantu bayihagaze ku ruhande, muri kaburimbo nta bindi binyabiziga birimo kugenda.